Polisi y'urwanda ishishikariza abaturage gutanga amakuru hakiri kare igihe babonye hari icyakozwe kibi mu gihugu cyangwa aho batuye, ibingibi ni byiza cyane kubera ko bituma polisi y'urwanda ikomeza gusigasira amahoro y'abanyarwanda ndetse n'igihugu cyacu muri rusange.

Gaze iva mu Kivu igira umumaro munini cyane kubera ko abantu bayigurisha bakabona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere. Kandi bayitekesha ibiryo, abantu barya. Ibingibi ni byiza cyane kubera ko bituma tudakomeza kwangiza ikirere cyacu nk'umwuka duhumeka.

Mu kiyaga kigari cyane nk'ikiyaga cya kivu, kibamo abantu baba bashinzwe kubungabunga umutekano, aho baba bagomba gukumira impanuka yo mu mazi ndetse no kurinda umutekano, kugira ngo umwanzi adatera u Rwanda anyuze mu kiyaga cya kivu.

Hari ahantu hagenewe gusuzuma ibinyabiziga , kugirango hirindwe impanuka zigiye zitandukanye ndetse n'ibinyabiziga bisohora ibyuka bibi bihumanya ikirere n'umwuka abantu bahumeka.

Ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi y'u Rwanda bigira uruhare runini cyane mu kubungabunga umutekano w'Abanyarwanda, ndetse n'ibintu by'Abanyarwanda. Ibi ngibi bituma abaturage barushaho kwiteza imbere batekanye bakamererwa neza cyane.

Mu Rwanda, hari ahantu batoza abana b’Abanyarwanda indangagaciro, ndetse n’imyitozo yo ku rugamba, kugira ngo igihe igihugu cyacu kizaterwa n’umwanzi, bazakirwanirire.

Porisi y'u Rwanda iducungira umutekano, aho ifata abantu bibye cyangwa bateje umutekano muke. Kandi iba iri mu muhanda iri gucunga abantu, ndetse n'abantu baba batwaye imodoka kugira ngo badakora impanuka.

Iyo inkongi y'umuriro ibaye, polisi izana imodoka iba ifite ibikoresho bikoreshwa barimo kuzimya iyo nkongi y'umuriro. Ibingibi bigira umumaro munini cyane, kubera ko bituma dukumira ibyago nko kubura ubuzima cyangwa kwangirika kw'ibintu byinshi cyane.

Polisi y'u Rwanda igira imbwa ziba zaratojwe ibintu bitandukanye nko kumenya ahantu hari ibiyobyabwenge cyangwa ahantu hihishe umujura. Ibi ngibi ni byiza cyane kubera ko bituma polisi y'u Rwanda ikomeza gusigasira umutekano w'u Rwanda.

Umuyobozi mwiza agira inama abaturage ayoboye, kugira ngo babeho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi agomba kubafasha gukemura ibibazo bahura na byo mu buzima.

Abayobozi barahugurwa bakigishwa uburyo bagomba kuyobora abaturage bakabafasha bakabagira inama, bakabakemurira ibibazo ibindi ni byiza cyane, kubera ko bituma igihugu cyacu kirushaho gutera imbere kandi n'abaturage bacyo bakabaho neza cyane.

Mu muhango ugusaba no gukwa, umusore yambara nk'uko umwami yambaraga, naho umukobwa akambara nk'uko umwamikazi yambaraga, ibingibi bituma abanyarwanda bakomeza gusigasira umuco wabo.

Kera mu Rwanda habaga umuryango watangaga umwami n'umwamikazi . Ariko ubu ngubu Abanyarwanda bashyiraho umuyobozi wagendeye ku matora ndetse n'andi mabwiriza.

Kera bagiraga ikigega bashyiramo imyaka babaga bamaze gusarura, nk'ibigori, ibishyimbo, amasaka n'ibindi byinshi cyane. Ibigibi byatumaga bitangirika, kandi bigakomeza kugira ubuziranenge.

Kera mu Rwanda nta mugore wakamaga inka ariko ubungubu abagore bakama inka kandi inka yari ikizizo mu rugo . Inka ni ikimenyetso cy'ubukungu, kubera ko itanga, amata abantu bakayanywa ,bakayagurisha bakabona amafaranga maze bakiteza imbere.

Kera Abanyarwanda babohaga uduseke bakoresheje ibyatsi bigiye bitandukanye, harimo nk'umukenke, ariko ubu ngubu bashyiramo utugozi twatunganyijwe, dufite amabara agiye atandukanye, kugira ngo bongere ubwiza bw'agaseke.

Igisabo n'igikoresho cyo mu Rwanda bacundiramo amata bari kuvanamo amavuta, ubungubu ibi bikoresho harimo n'ibindi nk'igisabo, bikurura ba mukerarugendo baje kureba ukuntu babikoreshaga n'uko bimeze.

Kera abanyarwanda bakundaga kurya amateke, imyumbati ibijumba birimo n'ibishyimbo, ibingibi byatumaga barushaho kugira imbaraga kubera ko bakoraga cyane imirimo y'ubuhinzi, guhiga inyamaswa bakabona inyama zo kurya n'ibindi cyane.

Inka yerekana umuuco nyarwanda, rero abantu borora. Kwita ku nka mukaziha amazi zigashora mu bibumbiro byazo kugira ngo zikomeze zitange umusaruro kandi no gusigasira umuco nyarwanda tukarushaho guteza imbere igihugu cyacu no kwiteza imbere ubwacu.

Mu muco nyarwanda bakoraga imitako mu bintu bitandukanye nk'ibiti ibyatsi n'ibumba barabigurisha bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Mu mbyino nyarwanda, abakobwa baba bambaye imisha yayo, n'amayogi ku maguru kandi babyina bakoresheje ibice byabo by'umubiri, nk'amaboko, umutwe, n'umugongo n'amaguru, ibingibi bituma abanyarwanda bakomeza gusigasira umuco wabo kandi bagakomeza, no kuwurinda icyawuhungabanya.

Kera umugeni yasangaga umusore atazi kubera ko yabaga yarambagijwe n'abantu bo ku musore nk'ababyeyi be n'abandi bavandimwe be. Bamushyiraga mu ngobyi bakamutwarira umusore akajya kuba umugore we, ibi ngibi byerekanaga umuco Nyarwanda kandi bifasha abanyarwanda kumenya umuco wabo bakawusigasira neza cyane.

Agakoko kerekana umuco nyarwanda, bagakoresha bari kurobanura ibihingwa: nk'ibishimbo amasaka, ibigori n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Kera mu Rwanda umwami yabaga mu ngoro, nubu abanyamahanga baza baje kuyisura, bakadusigira amadovize menshi cyane, maze u Rwanda rukayakoresha mu kubabaka amazu y'abaturage ndetse n'ibikorwa remezo byinshi cyane.

Ingoma ni igikoresho bakoreshaga mu mbyino nyarwanda. Na n'ubu baracyagikoresha kandi gikomeza gusigasira umuco nyarwanda. Aho na ba mukerarugendo baza gusura ibikoresho kera bakoreshaga mu kubyina, mu myidagaduro n'ibindi byinshi cyane, bakaduha amadovize. Tukayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Kera mu mbyino gakondo, abasore babyinaga bafite icumu n'ingabo, ndetse n'abantu barindaga umwami bakoreshaga ibyo bikoresho. Ibi ngibi byerekanaga ko abo basore n'ingabo bafite ishyaka ryo kurinda igihugu, ndetse no gusigasira umutekano w'abaturage. Bityo bikarushaho gutuma abantu babaho neza cyane.

Mu muco nyarwanda cyane cyane mu birori abari n'abategarugori bambaraga imyitero n'imikenyero, bafashe inkongoro n'ibyatsi mu biganza byabo, ibingibi babikoraga kugira ngo berekane umuco nyarwanda.

Kera, igihe babaga bagiye gukora umutobe, batonoraga ibitoki, bakabishyira mu muvure, ubundi bagakora uwo mutobe bakoresheje ibyatsi bita inshinge. Ibingibi byerekana umuco nyarwanda, kandi na n'ubu Abanyarwanda barabikora, bityo bigatuma turushaho gusigasira umuco wacu.

Umuduri ni igikoresho cy'umuziki bakoreshaga igihe babaga bari gucuranga indirimbo z'umuco nyarwanda, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Kandi gituma Abanyarwanda bakomeza gusigasira umuco wabo.

Mu muco nyarwanda igihe baba bari kubyina imbyino nyarwanda, ababyinnyi bambara amayugi, kugira ngo imbyino iryohe cyane, kandi ababa bari kuyireba bishime, banezerwe.

Umutemeri ni igikoresho cy'umuco nyarwanda bapfundikiza agaseke, igihe bashizemo ibintu cyane cyane nk'ibiribwa bagiye ahantu runaka, kandi gikoreshwa igihe bari gukora ibirori, cyangwa bari kwibuka umuco nyarwanda nk'umuganura.

Kera mu Rwanda mu bucuranzi, abanyarwanda bakoreshaga ibikoresho nki kibindi, bagakora umuduri kugira ngo ugire injyana nziza cyane, kandi byatumaga abantu bacurangaga babona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Itazi riva mu iziko, rigiga umumaro munini cyane kubera ko abahinzi bayikoreshaga mu muririma uba warashariye bitewe n'ifumbire mvaruganda cyangwa imiti baba barateye imyaka iba iri mu murima.

Inkongoro ni'igikoresho cyo mu muco nyarwanda. Abanyarwanda banyweragamo amata cyane cyane abana, kandi bakundag kugikoresha mu birori cyangwa mu muco ku muganura n'ahandi henshi hagiye hatandukanye.

Igiseke n'igikoresho cy'abanyarwanda, bashiramo amaturo nk'ibiribwa, cyangwa ibindi bajyanye, cyane cyane mu bukwe, cyangwa bagiye gusura abantu.

Umuhinzi iyo amaze guhinga atahaga, afite isuka mu ntoki cyangwa ku rutugu, kandi aba yishimye cyane kubera ko aba amaze guhinga neza.

Inka ni itungo ryiza cyane riduha amata tukayanywa kandi tukayagurisha akaduha amafaranga menshi cyane tukiteza imbere. Kandi abantu babaga inka bakabona inyama bakazirya kandi bakanagurisha bakabona amafaranga bakayakoresha mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Mu mbyino gakondo y'umuco nyarwanda igitsina gabo gihamiriza gifite icumu n'ingabo mu ntoki, ibingibi bigaragaza ko ari intwari ku rugamba, kandi ko biteguye kurwanirira igihugu igihe gitewe n'umwanzi ndetse no gusigasira amahoro n'umutekano w'abanyarwanda.

Imbyino nyarwanda yabyinwaga n'ibitsina bibiri, aho igitsina gore cyashayayaga, igitsina gabo kigahamiriza. Bityo rero byatumaga abantu bishima cyane, kandi iyi mbyino nyarwanda ikurura ba mukerarugendo, bakaduha amadovize menshi cyane tukiteza imbere.

Kera mu Rwanda, Abanyarwanda bahunikaga imyaka babaga bamaze gusarura mu kigega, ibingibi byatumaga barinda imyaka yabo kwangirika, kandi bakabona imbuto bazahinga mu kindi gihe cyo guhinga.

Umwuko ni igikoresho abanyarwanda babaza mu giti, bakagikoresha igihe bari kuvuga ubugari, umutsima w'amasaka, uw'ibigori, n'ibindi biryo bigiye bitandukanye. Kandi ibingibi bituma dukomeza gusigasira umuco nyarwanda.

Agaseke ni igikoresho cyo mu muco nyarwanda, bashyiramo ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane ibiribwa ,nk'amateke, ibirayiibijumba, ibishyimbo, amasaka n'ibindi byinshi cyane, bagatwara ahantu, nko mu bukwe, mu birori, no kwizihiriza umuganura baragakoresha.

Igitiyo ni igikoresho bakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye, nk'ubwubatsi igihe baba bari kuyora umucanga, ibitaka, ndetse n'ibindi. Kandi bagikoresha igihe baba bari gukora amasuku.

Kera abanyarwanda barasangiraga bagasabana, aho bashyiraga umusururu mu kibindi bagashyiramo umuheha, bakazajya banywa, ibingibi byatumaga barushaho kubana neza bakagira ubumwe n'amahoro agasakara hagati yabo, bakabaho neza cyane.

Ikirago cyerekana umuco nyarwanda. Kera bakibohaga bakoresheje ibyatsi gusa, ariko ubungubu babibohaga bakoresheje utugozi tuva ku mifuka. Abantu babiboha barabigurisha bakabona amafaranga menshi cyane.

Ikibindi ni igikoresh, abanyarwanda bakoreshaga, bavoma amazi. Kandi bagikoreshaga batereka inzoga, cyangwa umusururu mu gihe cy'umuganura, byashobokaga ko bagihindura inkono, bagatekamo ibiryo.

Kera, Abanyarwanda bariraga ku mbehe ariko abazungu bamaze kuza mu Rwanda bazanye amasahani aba akozwe muri palasitike cyangwa mu byuma.

Kera bakoraga umutobe bakoresheje ibyatsi bitaga inshinge, ibi ngibi byatumaga abantu basabana bakishima bakanywa umutobe, kandi bakagubwa neza cyane.

Kera mu Rwanda bakoreshaga ikiyiko gikozwe mu giti, igihe babaga bari kunywa isosi cyangwa bari kurya ibiryo. None muri iki gihe ba mukerarugendo baza baje kureba iki kiyiko ukuntu cyabaga kimeze.

Kera mu muco nyarwanda nta musore wirambagirizaga umugeni. Ababyeyi be nibo bamumurambagirizaga, bakamushakira umugeni atazi. Bamushyiraga mu ngobyi, bakamutwara ku musore.

Kera inyambo barazororaga kugira ngo zikoreshwe mu birori by'ibwami ubungubu bakomezaga kuzitaho ahabugenewe mu buryo bwo gukomeza gusigasira umuco nyarwanda kandi bamukerarugendo baza kuzisura bakadusigira amadovize menshi cyane.

Ikibuti ni ahantu inzuki ziba, kandi kigira umumaro munini cyane, kubera ko gituma inzuki zikora ubuki, maze abantu bakaburya bakagira ubuzima bwiza, indwara zimwe na zimwe ntizibeho nk'igifu, kandi barabugurisha bakabona amafaranga, bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Kera, Abanyarwanda barasabanaga bagasangira umusururu bakoresheje umuheha, ibingibi byatumaga abantu barushaho kubana neza cyane, bakishima, bakagira ubuzima bwiza, kandi n'amahoro agahoraho kubera ko babaga babanye neza cyane.

Umuco nyarwanda nk'imbyino, na n'ubu abanyarwanda barawurinda ko waca ukibagirana mu banyarwanda, ibi ni byiza cyane kubera ko bifasha abanyarwanda gukomeza kubana neza bagashyira hamwe bagakorera hamwe kugira barusheho kwiteza imbere.

Kera inkono, ibibindi babibumbaga mu byondo bakabika bakabona icyo batekamo. Kandi na nubu abantu barabikora bakabumba bakabigurisha, babona amafaranga menshi cyane, kandi biba ari umutako. Ahantu henshi hagiye hatandukanye haba ibikoresho bya kera.

Mu muco nyarwanda abasore babitaga intore, bahamirizaga bafashe ingabo, n'amacumu, byerekanagako bashoboye kurwanirira igihugu igihe cyabaga gitewe n'umwanzi.

Kera abantu bakoraga ibirori bakabyina imbyino gakondo, abasore n'abagabo bagahamiriza, abakobwa bagashayaya bakabyina ibingibi byatumaga abantu bishima bakanezerwa kandi bakarushaho kubana neza mu mahoro.

Kera umwami n'umwamikazi babaga mu ngoro, yabaga yubakishijwe ibyatsi n'umukenke n'ibindi kandi izengurutswe n'uruzitiro, na n'ubu ingoro y'umwami iracyahari mu buryo bwo gusigasira umuco nyarwanda, kandi ibingibi bikurura ba mukerarugendo baje gusura ingoro y'umwami bakadusugira amadovize tukayakoresha mubikorwa bigihe bitandukanye.

Kera, Abanyarwanda babaga mu nzu y'ibyatsi, bororaga amatungo agiye atandukanye nk'intama, inka, ihene, bityo rero umuco nyarwanda ukurura abanyamahanga benshi cyane, bakaza gusura u Rwanda, bakadusigira amadovize menshi cyane tukagenda tuyakoresha mu mirimo no mu bikorwa biduteza imbere.

Mu mbyino gakondo abakobwa babaga bambaye imishanana bikoreye uduseke, barambuye amaboko, bari kubyina bakoresheje amaguru, ibingibi bituma turushaho gusigasira umuco wacu, kandi ba mukerarugendo baza kureba imbyino yacu, bakaduha amadovize ,tukayakoresha mu gukomeza gusigasira umuco wacu, no kwiteza imbere mu bikorwa bigiyehe bitandukanye.

Purize nayo ni igikoresho cyo mu mashanyarazi, bacomekaho radiyo, tereviziyo, bafure, terefoni, ndetse n'ibindi bikoresho abantu bakoresha, bijanye n'amashanyarazi mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Haba icyuma bacomeka ku mashanyarazi, abantu bakoresha igihe baba bari guhamagarana. Iki cyuma ni icya rusange, buri muntu wese aba ashobora kugikoresha igihe ashakiye, ibi ngibi bifasha abantu guhana amakuru, ndetse no kuganira igihe babikeneye cyane.

Igikoresho gikoreshwa mu mashanyarazi gituma abakora mu mashanyarazi, bakora akazi kabo neza cyane kandi gitanga amafaranga ku bantu bakigurisha.

Mudasobwa ni igikoresho bacomeka ku mashanyarazi, gituma ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye byihuta cyane, nko kwa muganga, ku mashuri, ndetse no mu biro by'abayobozi, ku murenge, ku kagari, cyangwa ku mudugudu.

Igikoresho cy'amashanyarazi bacomekaho radiyo cyangwa tereviziyo, bituma umuriro ugera neza cyane, muri ibyo bikoresho tereviziyo na radiyo, kandi abantu babicuruza babona amafaranga, bakayakoresha mu bikorwa bibafitiye inyungu.

Kera mu rwanda igihe habaga bwije bakoreshaga agatodotowa cyangwa igishirira cy'umuriro, ariko nyuma abazungu bamaze kuza mu rwanda, bazanye uburyo bwiza bwo kubona n'ijoro amashanyarazi, ibingibi bituma abantu bakora ibikorwa bigiye bitandukanye neza cyane bakarushaho kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu.

Igikoresho cy'amashanyarazi bita kuteri, ni cyiza cyane, kubera ko gituma abantu badasakuriza abandi, igihe umuntu aba ari kumva ibintu bitandukanye n'iby'ubundi.

Igikoresho cy'amashanyarazi bacomekaho ibikoresho na byo by'amashanyarazi bigiye bitandukanye, harimo nka radiyo, telefoni, mudasobwa n'ibindi byinshi cyane, ibi ngibi bituma ibikorwa bikorwa neza bikoresha amashanyarazi.

Mu Mudugudu haba harimo amazu agiye atandukanye, aho usanga harimo amazu maremare cyane n'amagufi cyane. Kandi aba afite amabati agiye atandukanye, aho haba hari afite amabati y'umuhondo cyangwa ay'umutuku.

Abayehova bakunda kwigisha ku buzima bwa muntu, ndetse no gukunda gusenga Imana, ibyo bifasha abantu kurushaho kugira umwete wo gusenga, ndetse no kwita ku buzima bwabo neza.

Kera mu Rwanda Abanyarwanda bagiraga Imana imwe yirirwaga ahandi igataha i Rwanda. Nyuma Abakoloni bazana kiliziya igira imyizerere aho umuntu wakurikizaga iyo myizerere, bamubatizaga akazajya asengeramo.

Ibitaro biri mu bikorwa remezo bifasha abarwayi mu kubaha ubuvuzi, ndetse abaturage bishyura amafaranga ariko binyuze muri mituweli, bityo bigatuma ubukungu bw'igihugu bugenda neza bugakataza cyane.

Mudasobwa ni igikoresho kigira umumaro munini cyane: nko gutanga serivisi z'ubuvuzi, kwishyura amafaranga y'ishuri, kwishyura amafaranga y'ibikorwa byakozwe neza cyane, ndetse ikoreshwa n'abanyeshuri igihe baba bari kwiga amasomo yabo.

Kubera iterambere, mu Rwanda bubaka imihanda bakoresheje amapave. Ibi ngibi bituma ibikorwa bigiye bitandukanye bikorwa vuba kandi byihuta cyane.

Kera Abanyarwanda basengaga Imana y'i Rwanda ikajya ahandi igataha mu Rwanda. Ariko nyuma abazungu bazanye insengero na kiliziya, batuma abantu bizera kiristo. Ibyo ngibyo byabagiriye akamaro kubera ko byatumye bamenya Imana bagasenga, bakabaho neza cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amashuri na yo ari mu bikorwaremezo leta yubaka, bityo bifasha abana b'Abanyarwanda kwiga bakinyungura ubumenyi mu bintu bigiye bitandukanye, bizabatunga mu gihe kizaza, kandi bibarinda kujya mu ngeso mbi nk'ubusambanyi, kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bibi bibagiraho ingaruka.

Leta y'u Rwanda yashyizeho ibigo bifasha Abanyarwanda kwizigamira nka Sako, Unguka Banki, n'izindi nyinshi zitandukanye kugira ngo barusheho kwiteza imbere.

Ibikorwa remezo nko kubakira abaturage amazu meza agezweho, ibingibi bituma abaturage bagira ishyakaka ryo gukora cyane bakiteza imbere, bityo n'ubukungu bw'igihugu bukiyongera cyane.

Amashuri ni ibikorwaremezo leta yubaka kugira ngo afashe abana b' u Rwanda, kwiyungura ubwenge ndetse no kwakira ubumenyi bugiye butandukanye, buzabafasha mu gihe kizaza kandi abigisha kirazira n' indangagaciro z' umuco nyarwanda.

Inzu bayubaka bakoresheje icyondo n'amatafari, inzu bayiryamamo, inzu babikamo ibikoresho bakoresha mu rugo, kandi inzu itumaga abantu batanyagirwa.

Inganda zashyiriweho gutunganya ibintu bigiye bitandukanye nk'ibiribwa, imyenda, ibikoresho dukoreshaga turi kubaka, kandi inganda zitanga akazi abantu bakabona amafaranga menshi cyane.

Bikira Mariya nyina wa Jambo, nyina wa Yezu, atuvugira ibyifuzo byacu, n'ibibazo tugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ku mwana wayo Yezu Kristu.

Mu kiliziya haba abantu bahamagariwe kuvuga no kwamamaza ivanjili. Harimo nka nyir'icyubahiro Musenyeri, abapadiri, abamaseri n'abandi benshi bagiye batandukanye. Aba ngaba bafasha abantu kurushaho kwegera Imana kandi no gusenga cyane kugira ngo ikomeze kubana na bo, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu Rwanda kubera iterambere riri kwihuta cyane bubakagm amazu agerekeranye bita z'amagorofa, agenda akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye biteza abaturage imbere.

Ahantu haba inzu ndende kandi nini cyane, bahubaka igipangu gifite ibyuma, kandi kiba kirimo utwenge twinshi cyane.

Kubaka amazu y'abaturage na byo biri mu bikorwa remezo Leta ikora. Ibi ngibi bituma abaturage barushaho kugira ishyaka ryo gukora cyane, kugira ngo bateze Igihugu cyacu imbere.

Ubungubu mu Rwanda mu midugudu usanga amazu yubatswe kimwe mu buryo bugezweho kandi atondetse. Ibingibi bifasha u Rwanda gukuraho akajagari mu kubaka. Kandi bituma abantu batuye muri uwo mudugudu biteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Mu isoko cyane cyane ry'ibiribwa, haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, baje gushaka no guhaha ibiribwa bitandukanye. Ibi ngibi ni byiza cyane, kubera ko bituma abacuruzi babona amafaranga, na bo bakayakoresha mu bindi bintu bitandukanye.

Ahantu hagenewe ubuyobozi, kugira ngo hafashe abaturage kubona amabwiriza agomba kubayobora, kandi abaha ibyangombwa nk'iby'ubutaka, irangamimerere cyangwa irangamuntu.

Insengero zigira umumaro munini cyane, kubera ko zifasha abantu gusenga, bagahura, bakavugana n'Imana yabo, kandi bituma basobanukirwa ijambo ry'Imana, rikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubukoroni bwagiriye u Rwanda umumaro munini cyane, kubera ko bwatuzaniye uburyo bwiza bwo kubaka amazu agerekeranye, yubakishijwe amatafari ahiye, arimo inzugi, zirimo ibirahuri byiza cyane, n'ibyuma bikikije ayo mazu.

Ikiraro cya kijyambere, kigira aho amatunga arira, aho ashorerwa n'aho asharamiraga, ibingibi bituma umusaruro wiyongera kandi amatungo akamererwa neza cyane.

Ibikorwaremezo nk'amashuri, amavuriro, usanga bizitiwe n'ibyuma byubatswe neza cyane, bityo bigafasha abantu kurushaho kubisigasira, kandi bigatuma n'igihugu cyacu gikomeza kugaragara neza cyane.

Mbere y'umwaduko w'abazungu, abanyarwanda bubakaga amazu bakoresheje ibyatsi byabugenewe harimo nk'imfunzo, n'imikinke, bagasakarisha ibirere n'ibindi byatsi. None ubu bubaka amazu bakoresheje amatafari ahiye, bagasakarisha amabati, bagashyiramo n'inzugi z'ibyuma.

Ubu ngubu Abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kurenganurwa, igihe barenganywe. Kandi bafite uburenganzira bwo gutora umuyobozi bashaka. Ibi ngibi bituma Abanyarwanda babaho neza bakiteza imbere, bayobowe n'umuyobozi mwiza cyane.

Abantu bakoraga urugendo rwo kwamamaza uburenganzira bwabo, igihe babonaga abategetsi cyangwa ubuyobozi, batari kubaha uburenganzira bwabo. Ibi ngibi byatumaga babuhabwa neza cyane.

Mu Rwanda bagira gacaca ica imanza, igakemura n'ibibazo by'abaturage, ibingibi ni byiza cyane kubera ko bituma abantu barenganurwa, kandi n'ababa bakoze ibyaha bakabihanirwa, bagafungwa igihe runaka.

Abaturage batanga ibitekerezo bakavuga ibibazo byabo mu buyobozi nko muri gacaca, ku mudugudu, imirenge, akarere, ibingibi bibafasha kubaho neza batekanye cyane.

Umuyobozi mwiza yita ku baturage akabagira inama, akabakemurira ibibazo bagenda bahura na byo, kandi akaganira na bo akumva ibitekerezo baba bafite, kugirango nawe arusheho gukomeza kubayobora neza cyane.

Indege y'u Rwanda bita rwandair igira umumaro munini cyane ku banyarwanda, kubera ko ibaha akazi mu bintu bitandukanye, mu kwakira abagenzi bakabaha icyo kunywa n'icyo kurya, bagakora isuku mu ndege kandi n'abatwara indege ibingibi bituma babona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Umujyi ni ahantu haba hari urujya n'uruza rw'abantu, bamwe bari gucuruza abandi bari gutega imodoka, cyangwa amabisi kugirango bajye mu kazi kabo, bityo bituma igihugu kirushaho gutera imbere, ubukungu bukiyongera kandi n'abaturage bakagira ubuzima bwiza cyane.

Ubungubu abantu benshi cyane basigaye bakoresha igihe cyabo neza cyane, kubera ko bisi cyangwa n'izindi modoka zibatwara mu gihe gitoya, bakagera ku kazi vuba, kandi n'abatwara imodoka cyangwa bisi babona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Gutwara igare ku mugore cyaraziraga kikaziririzwa. Ariko kubera ko buri muntu wese ashoboye, ubungubu icyo umugabo yakora n'umugore yagikora. Ibingibi bituma abanyarwanda bakomeza gukora cyane bakiteza imbere, bakabaho neza cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu mugi haba hari urujya n'uruza rw'abantu bari gukora ibikorwa bitandukanye, nko gutwara imizigo ku magare cyangwa ku mamoto, n'abandi bantu baba bari kugenda n'amaguru bari gukora ibikorwa byabo.

Ishyirahamwe ritwara amapikipiki, ribona amafaranga, rikiteza imbere, kandi rigatanga imisoro, rikubaka ibikorwaremezo, nk'imihanda, amashuri, amavuriro, n'ibindi byinshi by'igihugu.

Abantu bakora ingendo zo mu mazi, bambara amajire kugira ngo batarohama, igihe habaye impanuka. Ibi ngibi bituma batabura ubuzima bwabo mu gihe gito, kandi bigatuma ingendo zo mu mazi zigenda neza cyane.

Igare bayitwaraho abantu ndetse n' ibintu kandi kubera iterambere, ubu umugore ashobora gutwara igare cyangwa umugabo.

Kera abarwayi babahekaga mu ngobyi, abenshi bigashoboka ko babura ubuzima bwabo, ariko ubungubu haje imbangukirabutabara aho babashyiramo bakabatwara kwa muganga batari babura ubuzima bwabo.

Wotameroni iri mu bwoko bw'imbuto bugira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu, kubera ko yongera amazi mu mubiri, kandi umuntu ntarwaragurike indwara zifata igifu, amara, umwijima, n'izindi nyinshi cyane.

Ifuso ni imodoka ikunda gutwara imizigo iyivanye ahantu kure cyane, abantu bayitwara babona amafaranga, bakayakoresha mu bikorwa bibafitiye umumaro kandi bakabaho neza cyane.

Muri gare haba hari urujya n'uruza rw'abantu, ndetse n'imodoka nyinshi cyane. Aho hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye. Mu gutwara abagenzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi byinshi cyane. Bitanga amafaranga, abantu bakiteza imbere.

Imodoka bita bisi ijyamo abantu benshi cyqne, kandi ibageza iyo bagiye vuba mu gihe gito. Kandi abantu babona akazi nko kuyitwara, gukoramo isuku, n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bikorerwa muri bisi.

Ubu ngubu abantu bakora ibikorwa bigiye bitandukanye kwihangira imirimo, gutwara ibinyabiziga nk'amagare, bityo bakinjiza amafaranga bakayakoresha mu bikorwa bibafitiye inyungu. Kandi n'abantu baba batwaye bakabageza mu kazi, cyangwa ahantu baba bagiye vuba mu gihe gito, bigatuma bakoresha igihe cyabo neza cyane.

Ritiko ni imodoka nziza cyane itwara abantu mu gihe gito, ahantu hagiye hatandukanye. Igira umumaro munini cyane mu bukungu bw'igihugu, binyuze mu gutanga imisoro, n'ibindi byinshi ikora bigiye bitandukanye, bigirira umumaro igihugu.

Mu mujyi haba hari urujya n'uruza rw'abantu bari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye nko gucuruza, kudoda, gutwara amabisi n'imodoka, iyo bari gukora ibi byose, bigaragaza ko igihugu kiri gutera imbere mu bukungu ndetse no mu mibereho myiza y'abaturage ba cyo.

Toyota iri mu bwoko bw'imodoka bugira imyanya ine, aho babiri bicara imbere, abandi basigaye babiri bakicara inyuma. Itwara ibiribwa n'ibindi byose bigiye bitandukanye, n'ibikoresho byinshi cyane.

Amatsinda agiye atandukanye, harimo nkay'abamotari agiragamaro cyane, kubera ko afasha abo bamotari kwizigamira bagakorera hamwe kandi bakarushaho kubaho neza cyane, bagateza imbere n'igihugu cyacu.

Muri gare ni ahantu usanga hari urujya n'uruza rw'abantu n'imodoka nyinshi cyane. Ibingibi bigaragazwa n'uko abantu bataba bicaye ahubwo baba bari gukora bari gutega bajya ahantu bashaka amaramuko n'amafaranga, kugira ngo barusheho kwiteza imbere.

Imodoka ni nziza cyane, kubera ko itwara abantu ndetse n'ibintu ahantu hagiye hatandukanye, kandi ituma abantu babona akazi bagahembwa amafaranga menshi cyane.

Imyitozo ngororangingo ni myiza cyane, kubayikora kubera ko bagira ubuzima bwiza, bakishima, bagaseka. Umubiri wabo ugakora neza cyane kandi ikabaha n'amafaranga menshi cyane, bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ni byiza kwigisha abana imyitozo igiye itandukanye nko gutera icumu, gusimbuka, gukina umupira w'amaguru, umupira w'amaboko n'indi mikino myinshi igiye itandukanye, kubera ko ibafasha gukura bakomeye bafite ubwenge, bakazagirira igihugu cyacu akamaro mu myaka iri imbere.

Abakinnyi bakina umupira w'amaboko bagira ubuzima bwiza cyane, kubera ko baba bari gukoresha ingingo zabo z'umubiri, bari kunanura imitsi, kandi bituma babona amafaranga, iyo bamaze gukina.

Imikino bakina bakoresheje umupira igira umumaro mwinshi cyane, kubera ko abayikina babona amafaranga, abagurishaga ibyo bikoresho nabo bakagira amafaranga, bakarushaho kubaho neza cyane.

Gukora imyitozo mu buryo bugiye butandukanye nko gukina umupira w'amaguru, bituma abantu bagira ubuzima bwiza, mu mitekerereze, mu mikurire, mu mikorere y'umubiri, kandi bakabona n'amafaranga bakiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Imyitozo nko gukina umupira w'amaguru, bituma abantu bahura ari benshi cyane bakishima, bakamenyana, bakiga imico igiye itandukanye myiza cyane kandi n'abawukina babona amafaranga bakabaho neza cyane.

Isiganwa ry'amagare ni ryiza cyane, kubera ko rituma abarikora bagira ubuzima bwiza cyane, bakabona amafaranga bakiteza imbere. Kandi rituma igihugu cyacu cy'u Rwanda kimenyekana hirya no hino ku isi.

Irushanwa ry'amagare riba ryitabiriwe n'abanyarwanda, ndetse n'abanyamahanga benshi cyane, aho rigira umumaro munini cyane, mu kuduha amadovize, ndetse no gukurura ba mukerarugendo, baje gusura ibyiza bitatse u Rwanda.

Siporo igira umumaro munini cyane kuberako ituma abantu basabana, bakishima, bakamenyana kandi yigisha abantu imico myiza nko gukundana kubana neza gufashanya n'ibindi byinshi cyane, bigirira umumaro abantu.

Imyitozo ikinwa hakoreshejwe amaboko igira umumaro munini cyane. Ku bantu bawukina kubera ko bakomera amagufa, amaraso agatembera neza mu mubiri wabo. Kandi imitsi yabo igakomera, ibihaha bigakora neza, n'ibindi byinshi. Kandi ihuriza abantu hamwe bakishima, bakamenyana.

Abakinnyi bakina umupira w'amaguru bagira ubuzima bwiza cyane, kubera ko baba bari gukoresha ibice by'umubiri wabo, nko guhererezanya umupira ndetse no kwirukanka, kandi babona amafaranga iyo bamaze gukina.

Abakinnyi bakina tenisi bagira ubuzima bwiza, kubera ko baba bari gukoresha zimwe mu ngingo zigize umubiri wa bo, kandi babona amafaranga menshi cyane, bakoresha mu bikorwa byo mu buzima bwa buri munsi.

Imikino igiye itandukanye nko koga mu mazi. Ibi ngibi ni byiza cyane kubera ko bituma abantu bagira ubuzima bwiza, kandi bakishima cyane, bakanezerwa kandi babona n'amafaranga binyuze muri iyo mikino. Bakarushaho kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Irushanwa ry'amagare ni ryiza cyane, rituma abantu bishima cyane, ubucuruzi bugatera imbere kandi rituma abarikora bagira ubuzima bwiza, igihugu kikamenyekana bakabona ibyiza byinshi cyane.

Muri sitade haba harimo abantu benshi cyane baje kureba ibikorwa biri gukorerwamo, baba bishimye cyane kandi bagenda bamenyana hagati yabo bakarushaho kubana neza cyane.

Irushanwa ry'amagare rituma abantu bishima, kandi n'abakora uwo mwuga babona amafaranga bakiteza imbere, nabo bakagira ubuzima bwiza, kandi rituma igihugu kimenyekana hirya no hino ku isi.

Siporo ni nziza cyane, kubera ko ituma abantu biga imico myiza: nko kubana neza, gufashanya, gukundana, ndetse ituma abantu bagira ubuzima bwiza batarwaragurika indwara zigiye zitandukanye.

Umukino w'amaboko biruka bari gusiganwa bagatera umupira mu gatebo, na wo ugira umumaro munini cyane, kubera ko utuma abawukina bagira ubuzima bwiza, bakagorora ingingo kandi bakabona n'amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Imyitozo ngororamubiri igira umumaro munini cyane ku buzima bw’umuntu, kubera ko imurinda kurwara indwara zigiye zitandukanye, nk’imitsi, umuvuduko w’amaraso. Kandi ituma ibihaha bikora neza, n’amaraso agatembera neza mu mubiri.

Imikino ngororangingo igira umumaro munini cyane ku bantu bakina iyo mikino, kuberako bagira umubiri mwiza ukomeye cyane bakabona n'amafaranga bakiteza imbere, kandi ituma abantu bishima cyane bakabona n'amafaranga bakarushaho kumererwa neza cyane.

Imyitozo ngororangingo igira umumaro munini cyane, kubera ko ifasha abayikora kugira ubuzima bwiza, nko kutarwaragurika indwara zigiye zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso, kurwara indwara z'ubuhumekero, imitsi, n'izindi nyinshi cyane, kandi ibaha amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Abantu bafite ubumuga nabo, bagiraga uburenganzira nk'abandi, nko gukora imyitozo ngororamubiri, imikino y'amaboko n'indiyinshi cyane, ibingibi bituma bumva ko nabo, bafite agaciro nk'abandi kandi bituma n'ubumwe hagati y'abantu, burushaho kwiyongera cyane.

Muri siporo haba imikino myinshi cyane. Aho iyo umukinnyi atsinze bamuha umudari w'ishimwe uherekejwe n'amafaranga menshi cyane, bityo akarushaho kwiteza imbere.

Ubungubu irushanwa ry'amagare rimaze guteza imbere u Rwanda kubera ko rituma ba mukerarugendo baza ari benshi cyane mu |Rwanda baje gusura ibyiza bitatse u Rwanda bakadusigira amadovize tukayakoresha turi gukomeza kwiteza imbere kandi n'impano zikarushaho kwiyongera mu bantu.

Imikino nko kujugunya agapira, gusimbuka, imikino y'amaboko, yose igira umumaro munini cyane ku mibereho y'umuntu. Agira ubuzima bwiza, agira imitekerereze myiza, amaraso agatembera neza mu mubiri, umubiri ugakora neza. Kandi abantu bose ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza cyane.

Umupira nI igikoresho bakoresha bari gukina imikino igiye itandukanye. Abantu bagurisha imipira bagira amafaranga menshi, kandi bigatuma na bo bakomeza gukora ibikorwa bya bo bitandukanye, bakoresheje amafaranga baba babonye.

Imikino itandukanye itanga ibihembo ku bayikina, ibi ngibi bituma abakinnye iyo mikino barushaho kugira ishyaka ryo gukora cyane, kugira ngo bazarusheho gukomeza kubona ibihembo no kuba aba mbere, kandi na bo bakiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Siporo igira umumaro munini cyane kubera ko ihuriza abantu hamwe bakagenda bamenyana, kandi bakiga n'imico itandukanye, ibafasha kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi yungura ubumenyi umuntu akamenya ibintu bishasha atari azi, bigatanga n'amafaranga mu buryo bugiye butandukanye.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri, ntabwo basaza imburagihe, ntabwo barwaragurika, kandi ntabwo bagira ibibazo by'imitekerereze, kubera ko baba bafite ubushobozi bwinshi bwo gutekereza neza, kandi bagira imico myiza ibereye umunyarwanda.

Umukino w'amaboko ni mwiza cyane, utuma abantu bamenyana bakabana neza cyane, kandi bigatuma babona amafaranga. Igihe baba bamaze gukina babahemba ibihembo bigiye bitandukanye.

Muri siporo rusange abantu baba ari benshi cyane bambaye imyenda ya siporo bari kugenda birukanka bari gukora siporo, haba hari n'abantu bambaye amajire bagenda bari kubayobora ukuntu baragenda mu nzira.

Umukino w'amagare ni mwiza cyane, kubera ko utuma abawukora bagira ubuzima bwiza umubiri ugakora neza cyane. Kandi ahantu baba bari kuri iryo rushanwa, haba hari abantu bari kuhanyura. Ibi bituma abo bantu bishima bakanezerwa, ubuzima bugakomeza kugenda neza cyane.

Imyitozo bakora bakoresheje amaboko, gusimbuka, gukina umupira w'amaguru, ibingibi ni byiza cyane kubera ko bibeshaho bikabaha amafaranga, bakiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye kandi bakagira n'ubuzima bwiza cyane.

Umukino w'amagare ugirira u Rwanda umumaro munini cyane, kubera ko utuma u Rwanda rwamamaza ibikorwa byarwo hirya no hino ku isi, aho usanga witabiriwe n'abanyamahanga benshi, bigatuma bamenya ibyiza bitatse u Rwanda, nk'ibyanya byahariwe inyamaswa.

Leta y'u rwanda ishishikariza urubyiruko kujya mu myitozo igiye itandukanye, ndetse no kwihangira imirimo, Imyuga. Ibingibi bibafasha kutiyahuza ibiyobyabwenge bakajya mu ngeso mbi y'ubusambanyi, n'ibindi byinshi bibi cyane, kandi bibongerera ibitekerezo byiza cyane, byazabafasha mu gihe kizaza mu myaka iri imbere.

Umukino bakina bakoresheje amaboko gusa, abakinnyi baba bari guhererezanya noneho wagwa hasi bamwe bagatsinda abandi bagatsindwa.

Imyitozo yo gukina imikino igiye itandukanye, nk'imikino y'amaboko, gukina umupira w'amaguru ni byiza cyane ko urubyiruko kubera ko bibarinda; kujya kunywa ibiyobyabwenge, kwishora mu ngeso mbi nk'ubusambanyi n'ibindi bigiye bitandukanye bibagiraho ingaruka.

Gukora imyitozo itandukanye, nko gukina umupira ukoresheje amaboko amaguru, bigira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu, kubera ko agira amagufa akomeye imitsi amaraso agatembera neza mu mubiri, kandi na we akagira amafaranga akayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Abakinnyi batwara amagare, bagira ubuzima bwiza, bakabona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere, kandi u Rwanda rwamamaza ibikorwa byarwo, nko gusura u Rwanda, ibyiza bitatse u Rwanda, n'ibindi byinshi cyane.

Abantu bakina umukino wo koga, bagira ubuzima bwiza cyane, kubera ko baba barikugorora ingingo zigize umubiri wabo kandi baba barigusohora imyanda iba iri mu mubiri, babona n'amafaranga menshi cyane, iyo bamaze gukina.

Imikino igiye itandukanye harimo nk'umukino w'amaboko, byose ni ibintu bigira umumaro kubera ko bihuriza abantu hamwe bakishima, bakanezerwa kandi n'abakora iyo mikino bakagira ubuzima bwiza, bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Imyitozo ngororangingo igiye itandukanye nko gusimbuka n'indi myinshi cyane, igira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu kuberako imuha imbaraga akagira ingingo zikora neza cyane, nk'ibihaha amaraso agatembera neza cyane mu mubiri kandi itunga abantu ikabaha amafaranga bakarushaho kwiteza imbere.

Ibimera nk'ibiti, ibyatsi bigira umumaro munini cyane kubera ko biduha imvura, bigatuma imyaka yera, tukabona umusaruro mwinshi cyane kandi biduha umwuka mwiza wo guhumeka.

Ubu ngubu mu Rwanda, buri munyarwanda wese amaze kugira amashanyarazi, agira umumaro munini cyane kubera ko atuma ibikorwa byihuta cyane, nko kubetesha igikoma bakoresheje imashini, n'ibindi bigiye bitandukanye bikuba vuba kubera amashanyarazi.

Ubungubu mu Rwanda ahantu henshi cyane hamaze kugera kaburimbo ituma ibikorwa byinshi cyane byihuta, abantu baba bari gutwara ibinyabiziga nk'amagare n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye, kandi ituma abantu bagera ku kazi ka bo vuba, bagakora neza cyane.